Urukuta rushushanyijeho umwiko ndetse hakaba hashushanyijeho n'ingorofani. Hirya yaho hakaba hari abana bahagaze mu muryango ahantu heza ndetse hari na sima ishashe hasi.

Amashuri y'uburezi bw'inshuke, akaba ari inyubako nini zigiramo abana batoya, zikaba zubakishijwe amatafari ndetse iruhande rwazo hari abandi bana bato ndetse n'abandi bakuru.

Igishushanyo kiriho abana bane, aba bana bateruye ibindi bishushanyo biriho abana, ndetse akaba hari inkuru ishushanyije, umwana ari gusobanurira bagenzi be.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, hakaba harimo amarate ndetse n'uducamurongo, hakaba harimo n'ikaramu, zifashishwa mu guca imirongo.

Icyumba kinini kirimo: ameza, kirimo intebe ndetse hakaba harimo n'ibishushanyo byinshi. Hakaba ari icyumba cyifashishwa mu gushimisha abana batoya.

Ikigo nderabuzima cyubatswe ku buryo bugezweho, kikaba cyubatswe ahantu heza ndetse imbere yacyo hakaba hari ubusitani bwiza.

Inyubako yubatswe, ikaba ifite amadirishya ndetse ikaba ifite n'inzugi, inzugi n'amadirishya bikaba biteye irangi, mu muryango hakaba hari umwana uri kwinjiramo imbere.

Abantu batandatu bari iruhande rw'ikigo cy'amashuri, hakaba harimo umwe umanitse amaboko ndetse n'undi ufashe mikoro amanitse ukuboko, hari n'undi urimo gufotora, inyuma yabo hari inyubako z'ishuri.

Hano hari imfashanyigisho zifasha abana kwiga neza ibikoresho dukoresha mu rugo iwacu hari ibikoresho bitandukanye inyundo, amasuka, ndetse amapiki n'ibindi bikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ahantu ku kigo cy'amashuri hahagaze abantu babiri ndetse hakaba hateye n'indabo iruhande hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo.

Abantu barindwi, bahagaze imbere y'inyubako z'amashuri, hakaba harimo umwe wambaye isarobeti ndetse n'ingofero y'umutuku.

Inzu nziza, iri ahantu ku muhanda ndetse hakaba hari na sikariye enye, kuri izo sikariye, hakaba hateye ubusitani bwiza ndetse akaba ari inzu imeze neza.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu mibare hakaba harimo amakereleyo ndetse harimo n'udusibisho, si ibyo gusa kuko harimo n'imikasi.

Inzu nziza igeretse ndetse imbere yazo hakaba hari abantu benshi, abari kuzu hejuru bakaba bambaye imyenda isa, bakaba bambaye imyenda y'umukara hejuru bambaye ubururu, hakaba hirya hari n'abandi bambaye udupfukamunwa.

Umunyeshuri uhagaze imbere y'ubusitani akaba yambaye ishati y'umweru ndetse yambaye n'ijipo ya kontoni ndetse inyuma yiwe hakaba hubatse amashuri.

Abantu batanu barimo kugenda iruhande rw'igikuta. Bakaba harimo abagabo batatu ndetse n'abagore babiri. Abagore bakaba ari bo bari imbere.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bose bambaye imyenda isa, imbere yabo hari amakayi bari kwiga ndetse mu ishuri hakaba harimo n'umwarimu wambaye itariya.

Urubyiruko rwambaye imyenda isa, rukaba rwihurije ahantu hamwe. Imbere yabo hakaba hari abasirikare ndetse n'umupolisi, hicaye n'abandi bantu bigaragara ko babayoboye.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu mu cyumba kinini ndetse bakaba bari kumwe n'umuyobozi wabo akaba afite mikoro bigaragara ko hari ikintu arimo kubabwira.

Abanyeshuri bicaye munsi y'ibiti hanze y'amashuri yabo, bambaye impuzankano zabo zisa neza, umweru ndetse n'umukara hasi, bambaye amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara, ubona ko basa neza rwose bakeye, inyuma hari amashuri bigiramo, amashuri yubatse neza cyane.

Aha ngaha uko bigaragara, iki ni ikigo cy'amashuri cyubatse neza ndetse gize amarangi meza umuhondo ndetse n'ubururu, ibyuma bikikije yabisize irange ry'ubururu ndetse hari n'abantu bashinzwe imirimo yo kucyubaka, ubona ko bari kuganira uburyo cyakoreshwa neza.

Inyubako z'ishuri zikaba zubatswe ku murongo. Iruhande rwazo hakaba hari ikigega kifashishwa mu kubika amazi.

Abantu umunani barimo binjira mu cyumba kinini. Hakaba harimo abagabo ndetse harimo n'abagore. Akaba abagabo ari bo benshi kuruta abagore.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bicaye neza kandi ubona ko bambaye impuzankano zabo nziza, bari kuganira ku masomo yabo kugira ngo babashe kuba bayatsinda neza ndetse inyuma hari n'ikibaho kibafasha kugira ngo bacyandikeho, basubiramo, biyibutsa ndetse babashe kubitsinda neza.

Zimwe mu ntebe zigezweho zikunda gukoreshwa muri kaminuza, akaba ari intebe nziza wicaraho ndetse ufite naho wandikira imbere yawe.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko. Akaba ari abahungu ndetse n'abakobwa. Bakaba bicaye ku meza, barimo kureba muri Computer.

Inyamaswa zo mu gasozi, zikaba ziri ahantu hari ibyatsi ndetse hakaba hari ibiti bibiri binini. Izo nyamaswa zikaba zirimo zigenda zirisha buno bwatsi.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu mu cyumba, bakaba bicaye imbere y'amamashini ndetse bafite n'amakaye bigaragara ko barimo kwiga.

Inyubako nziza y'itaje ndetse akaba ari inyubako ifite esikariye ndende, umuntu azamuka aho agiye mu byumba byo hejuru.

Amagambo yanditswe ku kibaho cy'umweru, agaragaza ukuntu abanyeshuri bo muri kaminuza bigaka. Akaba ari amagambo yanditswe ndetse bakaba barimo batanga ingero.

Urukuta rumanitseho igikoresho kifashishwa mu kumanikaho imyenda ndetse n'inkweto. Akaba ari igikoresho bashyira ku gikuta.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba kinini, imbere yabo hakaba hariyo izindi ntebe, ndetse bakaba banateguye neza, bigaragara ko hari abayobozi bari buze kuhicara, abicaye nabo bakaba bafite amazi yo kunywa.